Ni byiza ko umwana wiga mu mashuri y'inshuke tumwigisha buri kimwe cyose, yaba uko ibimera bikura ndetse n'uburyo biva mu butaka bikera bikavamo imyaka turya.

Ibikoresho bitandukanye byashushanyijwe kugira ngo byifashishwe mu kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, ni ibikoresho byo mu rugo birimo indobo y'ibiyiko ndetse n'ibindi.

Ibikoresho birambitse ahantu biri mu mabara atandukanye byose bikaba byifashishwa mu rugo, harimo isahane ibiyiko ndetse n'amafurusheti.

Ibishushanyo biri mu mabara atandukanye, bikaba ari ibishushanyo bigaragaza imodoka ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, byose byifashishwa n'umuntu uri kwigisha abana bo mu nshuke.

Inyamaswa yitwa imbeba ni inyamaswa mbi cyane yona mu murima ndetse no mu nzu, iyo igeze mu murima usanga imyaka yayikegese ikuma yagera mu nzu imyenda ikayicagagura sinakubwira.

Abana bashushanyije bari kujya ku ishuri imbere yabo hari ikintu cyanditseho ngo isomero ndetse hakaba hari n'imodoka igaragara mu muhanda wa kaburimbo yari ibazanye uko bigaragara bageze ku ishuri.

Igikapu cyiza cyane gifite amabara atukura n'umweru cyifashishwa n'umwana wiga mu mashuri y'inshuke kugirango abikemo ibikoresho bityo ataza kubita cyangwa ugasanga barabimwibye.

Uburenganzira bw'abana bukomeje kwimakazwa mu Rwanda, kugeza ubwo leta yashyizeho gahunda y'uko abana bose b'inshuke bagomba gutangizwa mu mashuri kugira ngo bagire ubwenge hakiri kare.

Umuntu ufashe ku bintu bishushanyije, bimeze nk'igikapu ndetse iruhande rwabyo hari utuntu tubiri turi mu mabara y'umuhondo n'akandi kari mu mabara y'umutuku, byose bikaba byifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri y'inshuke.

Utuntu tugiye tumeze nk'udukarito, turi mu mabara atandukanye. Hari ubururu, umutuku ndetse n'umweru, gusa byose bikaba bifite n'utundi tw'utudomo, byose byifashishwa mu kwigisha abana b'inshuke.

Umuhungu wanjye aherutse kumbwira yuko bamutumye ibikoresho bitandukanye kandi yiga mu mashuri y'inshuke, yambwiye ko bamutumye ikaramu y'igiti, bamutuma imakasi ndetse n'irate, ariko ngomba kubimuha.

U Rwanda rwashyizeho gahunda yo gufata abana batoya rukabajyana mu ishuri, ibyo byatanze umusaruro kubera yuko usanga umwana atadindira ndetse agatangira kumenya ubwenge no kuvumbura akiri mutoya.

Ikintu gishushanyijeho ibintu bitandukanye bisobekeranyije ndetse kigaragara mu mabara atandukanye arimo umuhondo, ubururu, icyatsi, umutuku. Yose akaba yifashishwa mu kwereka abana biga mu mashuri abanza uko aba ameze.

Umuntu bigaragara yuko ashushanyije ndetse akaba ari agasimba. Kakaba karashushanyijwe n'abana biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo bajye bakareba maze bishime.

Inyubako nziza y'amashuri ni inyubako imbere yayo hari umuhanda urimo amaboroke sima, uyu muhanda ukaba utambuka ukomeza ugenda.

Ibishushanyo bibiri ahantu ku meza bikaba byifashishwa n'umwarimu uri kwigisha abana bo mu mashuri y'inshuke, ni ibishushanyo bibafasha cyane kugira ngo bakuze ubwenge.

Igihe cyose mwarimu yigisha agomba guha umwanya abana bakajya imbere ku kibaho, bakandika ibyo yabigishije, ibyo bifasha kumenya niba amasomo bayumva.

Abana batoya biga mu mashuri y'inshuke bakunda udupupe, ni yo mpamvu umwarimu wabo iyo agiye kubigisha aratubazanira kugira ngo bishime maze bikamufasha kubigisha.

Umwana wiga mu mashuri y'inshuke, aba agomba kwerekwa ibishushanyo bigiye bitandukanye kugira ngo bizamufashe kugira amahitamo y'ubuzima bwe kubera yuko aba akiri mutoya abataramenya ngo inzozi ze ni izihe.

Umubyeyi aricaye ateruye umwana ndetse bigaragara y'uka hari n'abandi bana benshi barimo kugenda bagaburirwa n'ababyeyi, ikaba ari gahunda yashyizweho na Leta kugira ngo abana biga mu mashuri y'inshuke bajye bahabwa indyo yuzuye bakure neza.

Ibimera bishushanyije ku gikuta cy'inzu, bikaba birimo ibishyimbo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, ibi ngibi byifashishwa na mwarimu arimo kwigisha abanyeshuri uburyo igihingwa gikura.

Inyubako nziza cyane y'ishuri ikaba ari inyubako isakaje ibati ryiza cyane ry'umweru ndetse ikaba iteye irangi ry'ivu inzugi zayo ni umutuku n'amadirishya arimo ibirahure, iyi nyubako ni nziza.

Abana batoya bashyizwe hamwe bakaba bigishwa n'abarimu b'abagore babihuguriwe iyi ngiyi ikaba ari gahunda yashyizweho na Leta mu rwego rwo gufasha buri mwana wese w'umunyarwanda kugira ngo azabashe kwiga ndetse afate ibyo yiga.

Urukuta rushushanyijeho ifi ndetse n'andi matungo atandukanye avamo inyama, bikaba biri ku gikuta cy'umweru ndetse munsi y'idirishya, ibyo bikaba byifashishwa mu kwigisha abana batoya.

Amashuri y'inshuke, ni amashuri agoye cyane, niyo mpamvu ubu ngubu umwarimu wese wigisha abana bo mu nshuke aba yarabyize ndetse abifitiye n'impamyabumenyi.

Ihene zimeze nk'ibishushanyo ndetse zimeze nk'abantu, zikaba zifashishwa n'umwarimu wigisha amashuri y'inshuke, izo zose zifite imirizo ziri mu mabara atandukanye.

Ibintu bigiye bitandukanye byifashishwa mu bintu byo kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, kubera ko baba bakiri batoya, bisaba ko ugenda ubereka unabasobanurira.

Abantu bari kwa muganga bakaba baje gusuzumisha abana babo, uko bigaragara barimo kugenda bahabwa inyandiko zigaragaza uko abana babo bahagaze.

Abana barimo kwicundaga mu mwicundago yabagenewe, umuyobozi wabo nawe akaba ari kugenda abafasha kugira ngo bisanzure kandi bumve ko bari kumwe nta kibazo bagira.

Abana b'abanyeshuri barimo kwikinagura imbere y'umurima uhinze, hari umuhanda w'igitaka ndetse hashinze ipoto rinini ry'igiti ritwara umuriro w'amashanyarazi riwujyana mu baturage.

Ibintu bitatu bimeze nk'inkeri ariko bikaba ari ibibumbano byakozwe kugira ngo byifashishwe na mwarimu, mu gihe arimo kwigisha abanyeshuri biga mu nshuke.

Igishushanyo cy'umuntu ubona ko kirimo ibihaha ndetse n'umutima ndetse kikaba cyometse ku gikuta, icyo gikuta gisize irangi ry'umweru bikaba byifashishwa n'abarimu bigisha.

Utwana tubiri tw'udushushanyo dushushanyije ku rukuta rw'ishuri, uko bigaragara turi munsi y'ibiti. Ibyo biti bifite amashami ndetse n'amababi maremare tukaba turimo kugenda tugana ku ishuri.

Umugabo ushushanyije ku gikuta cy'inzu, akaba yitwa Baritazari, iki ni ikigaragaza amagufa y'umuntu uko aba ameze ndetse abantu benshi hirya no hino niko bacyita.

Akanyugunyugu gashushanyije ku gikuta cy'inzu ndetse icyo gikuta kikaba ari icy'ishuri, ibyo byose bikaba bigaragaza ko ari umwarimu ubyifashisha arimo kwigisha abanyeshuri udukoko n'udusimba dutandukanye.

Kwigisha ni uguhozaho, ndetse rimwe na rimwe wibaza ubuhanga bw'abarimu, ku buryo yigisha umwana wo mu nshuke akamenya ubwenge agakura ari umwana uzi ubwenge ndetse akazavamo umuyobozi.

Amoko y'inyamaswa agiye atandukanye, ashushanyije ahantu ubona ko yifashishwa n'umwarimu, arimo kwigisha abanyeshuri bo mu nshuke, aba banyeshuri baragora cyane kuko baba bakiri batoya.

Ibishushanyo bitandukanye bigaragara ko ari ibikoresho byo mu rugo bishushanyije ku gikuta cy'ishuri, hakaba harimo n'umwana uri hagati imbere mu muryango hari ikirenge cy'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza.

Igishushanyo kigaragaza umwana w'umukobwa ukenyeye neza cyane, ufite agatambaro mu mutwe n'umusatsi mwinshi, hakaba hari n'umuhungu na we uri hakurya y'amazi wagira ngo bagiye guteretana.

Inzu ishushanyijeho igitoki gifite umwanana ndetse gifite n'ibitoki hasi hakaba hari n'igishyimbo ndetse hari ikiri kumera n'ikitangiye kumera, hakaba hari ijambo ry'Icyongereza rigaragaza guhinga.

Udushushanyo turambitse ahantu tumeze nk'udupupe twifashishwa n'umwarimu wigisha abana bo mu nshuke turi mu mabara abiri atandukanye, rimwe n'umuhondo irindi naryo rijya kuba nk'umutuku ariko w'amatafari ahiye.

Buriya umwana wiga mu mashuri y'inshuke numubwira umusirikari ugomba kumushushanya, ukamwereka ngo ni muntu ki kubera yuko ubimubwiye gusa ntiyabimenya, niyo mpamvu abarimu bigisha mu mashuri y'inshuke, baba bagomba kuba baragenwe ndetse babifitiye n'ubushobozi.

Umwana wiga mu mashuri y'inshuke ni umwana uba ukwiye kwitabwaho akwerekwa ibintu bitandukanye harimo amarangi, amanyamaswa ndetse n'ibindi.

Amagambo y'ururimi rw'Ikinyarwanda yanditse ngo tura heza hakaba hashushanyijemo n'inzu, ibyo byose bikaba ari ibishushanyo mwarimu agenda akoresha yigisha abana bo mu nshuke.

Amashuri meza ni amashuri yubatse ubona ko ataruzura ariko abana bayigiramo, aya mashuri akaba asakaje ibati ry'ubururu, imbere hari igiti kinini cyihateye cy'inganzamarumbo.

Ikibumbano cyangwa igishushanyo gishushanyije gikoze nk'umuntu w'umwana wicaye, ndetse kikaba ari igishushanyo kiri mu mabara agiye atandukanye.

Abana barimo guhitsukira ku bikoresho byabugenewe, ibi bibafasha gutekereza neza mu mitwe yabo bityo ubwonko bwabo bukabasha kugira imyitwarire nk'iy'abantu bazi ubwenge.

Telemusi ipfundikiye yifashishwa mu gupfunyikira umwana wiga mu mashuri abanza cyangwa se amashuri y'inshuke, aba bana baba bakeneye kwitabwaho cyane kuko baba bakiri batoya.

Inyubako nziza y'ishuri ikaba ari inyubako yegereye ahantu hari ikibuga kinini kirimo urucaca ndetse hakaba hari n'ubwiherero bwegeranye na yo, iyo nyubako isakaje amabati atukura.

Udushushanyo turi mu mabara atandukanye; umuhondo, icyatsi, umutuku, ndetse n'ubururu bwijimye ubona yuko, byifashishwa n'umwarimu wigisha amashuri y'inshuke.

Akantu kariho amabara atandukanye ndetse kameze nk'agakarito gashushanyije, hakaba harimo amabara y'umutuku, ubururu, umuhondo, icyatsi ndetse n'ayandi nka move.

Igishushanyo cy'abarimu ndetse n'abanyeshuri hakaba hari n'amashuri ndetse n'ibiti. Ibyo byose byifashishwa mu kwigisha umwana wiga mu mashuri y'inshuke kubera ko ubwonko bwe buba butarakanguka neza.

Iyo wigisha abana batoya bisaba kugenda ubasomera udukuru ndetse utwo dukuru tukaba tuba dushimishije turyoheye amatwi ku buryo umwana atwumva ntarambirwe ndetse akifuza guhora atwumva.

Abana bo mu Rwanda biga mu mashuri y'inshuke bakiriweho gahunda na leta yo kubagaburira ndetse no kubaha indyo yuzuye, kugira ngo babashe kwiga neza. Bahabwa igikoma ndetse kikaba kiba kirimo intungamubiri zihagije.

Abana bari gukaraba amazi bakoresheje isabune ndetse bagakoresha na kandagira ukarabe, iruhande rwabo hari ikigo cy'amashuri ndetse hari n'inyubako nziza cyane.

Ibikoresho byiza cyane, bikaba ari ibikoresho byifashishwa n'abantu barimo kwigisha abana biga mu nshuke kubera yuko umwana utamweretse urugero ntiyakumva neza isomo umwigisha.

Ikintu kiriho utuntu turi mu tuziga ndetse n'utundi tugiye tumeze nk'amashami, turi mu mabara atandukanye, dukoze nk'ingazi cyangwa nk'itente, tukaba twifashishwa n'umwarimu yigisha abanyeshuri bo mu nshuke.

Inyamaswa y'ipusi, ikaba irimo kwikinira ballon, iyo ballon ifite amabara atukura n'ay'umweru n'akandi kabara k'umukara, ibi byose bikaba byerekwa umwana wiga mu mashuri y'inshuke kugira ngo bakangure ubwonko bwe.

Abana bari mu mbuga barimo kwikinagura, iruhande rwabo hari umurima uhinze ndetse hari n'inyubako y'ishuri iri kugaragara ifite urubaraza runini, ndetse ikaba ishushanyijeho n'ibintu bigiye bigaragaza ko higira abana bo mu mashuri y'inshuke.

Ibishushanyo bigaragaza uburyo igishyimbo giterwamo, kigakura ndetse kikazatanga umusaruro, hari icya mbere kitaraterwa, hari igitangiye kumera ndetse hari n'ikindi cyameze cyazanye n'ibibabi hejuru y'ubutaka.

Ingofero y'umuhondo igeretse ku yindi y'umweru ariko nayo ifiteho akabara k'umuhondo. Ni ingofero ziteye kimwe zose z'urugara ariko zikaba ari ingofero z'umwenda, zikaba zifashishwa mu kwereka abana batoya kugira ngo babashe kwiga bamenye byinshi.

Uburezi bw'abana b'inshuke mu Rwanda, bwatejwe imbere cyane ndetse hari n'indi gahunda yaje yo gufata abana batoya b'imyaka itatu kuzamura kugera kuri ine, bakajyanwa mu kigo kizwi nka ECD kugira ngo bajye batozwa bakiri batoya.

Igikoresho gishushanyije kikaba ari imodoka ndetse kikaba cyifashishwa n'umwarimu wigisha abana biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo abashe kubigisha.

Ibikinisho by'abana ni kimwe mu bintu bituma abana batarangara cyangwa ngo bate ishuri kubera ko iyo bakinira hamwe barishima bakanezerwa bagasabana.

Ibishushanyo byinshi bigaragaza abana biga mu mashuri y'inshuke bikaba ari ibishushanyo mwarimu akoresha arimo kwigisha abo banyeshuri kugira ngo bafate amasomo yabo neza.

Imodoka zishushanyije ni imodoka z'ibibehe cyangwa se izizwi nk'amakamyo, zikaba zifashishwa n'umwarimu urimo kwigisha abana bo mu mashuri y'incuke, kugira ngo abereke uko imodoka iba imeze.

Umwana w'ikibonke ubona yuko ari gutamira akantu, akaba yicaye iruhande rw'ikindi kintu kimeze nk'iminyorogoto igerekeranyije kiri mu mabara y'iroze ndetse n'andi y'ubururu bwerurutse.

Abana biga mu mashuri y'inshuke, ni abana baba bakiri batoya cyane, ku buryo iyo ubabwiye ngo radiyo ugomba kuyizana ukayibereka, kuko hari igihe utayiberetse batamenye icyo ari cyo.

Ibishushanyo biri mumabara atandukanye, umuhondo, icyatsi, ubururu, iroza, ubururu bwijimye, ubururu bw'ikirere ndetse aya mabara yose akaba yifashishwa mu kwigisha umwana mutoya.

Abanyeshuri ubona ko barimo kugenda mumuhanda, umwe akaba afite akantu arimo gusunika, ni abana batoya buri wese ahetse igikapu, aba bana bafite ni n'ifomu nziza cyane.

Umwana wiga mu mashuri y'inshuke, iyo yigishwa ntago bamubwira ibintu gutyo gusa. Ahubwo bisaba kwifashisha ingero z'ibifatika niba umubwiye ibara, ukarimuzanira ka rimwereka kugira ngo bimufashe arifate mu mutwe.

Ibimera bitandukanye biri mu moko atandukanye ndetse no ku bigero bitandukanye, bishushanyijwe ku gikuta k'ishuri ndetse hakaba hari n'abana bagaragara biga mu mashuri abanza.

Intebe nziza cyane iri mu mabara atandukanye, ni intebe irimo amabara y'umutuku, umuhondo ndetse n'ubururu, iyi ntebe ikaba yifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke bayikiniraho.

Ibintu bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, aho bituma batekereza neza ndetse bakagira ubusabane, harimo imyicundago bicundagaho bakumva umunyenga, ubwonko bwabo bugatekereza vuba.

Ahantu hose uzabona inyubako y'ikigo cy'amashuri uzahabona n'inyubako za toillete nyinshi cyangwa se ubwiherero kubera yuko umuntu muzima aba agomba kwiherera n'ahantu hazima.

Ibidobo bine biteretse bipfundikije imifuniko isa byose bikaba biriho n'ijambo ryanditse ry'icyongereza iryo jambo rikaba rivuga ngo logo bigaragaza yuko ari ikimenyetso cyabyo.

Amashuri y'inshuke ni amashuri amaze kumenyererwa hano mu Rwanda, ku buryo umubyeyi wese atakinangira kujyana umwana, nyamara bikiza wasangaga umuntu avuga ngo umwana mutoya yiga iki.

Igicumbi cyanditseho amagambo agaragaza yuko hari ikigo cy'amashuri kandi icyo kigo cy'amashuri kikaba cyubatse ahantu heza hari n'akajaride keza, imbere hanyura umuhanda w'igitaka.

Umwana mwiza cyane ukiri mutoya, akaba ari umwana ushimishije bitewe n'uburyo asoma igitabo ari imbere y'ababyeyi ashize amanga, nta mususu, akaba ari umwana ukiri muto cyane.

Abarimu n'abanyeshuri bakaba ari ibishushanyo bishushanyije, byerekwa abana batoya biga mu mashuri y'inshuke kugira ngo barebe urugero bakwiye gukurikiza, bitewe nuko biba bigoye kwigisha aba bana batoya.

Umwana bigaragara ko ari umunyeshuri, yegamye ku gikuta icyo gikuta gishushanyijeho ingorofani ndetse hakaba hari n'ibindi bishushanyo, imbere ye hari undi mwana na we ufite amakayi mu ntoki, biga mu mashuri y'incuke.

Ibikoresho byinshi cyane ni ibikoresho biri mu mabara y'ubwoko bwose, umuhondo, umukara ubururu, icyatsi, move, ruje borudo ndetse n'ayandi yose, bikaba byifashishwa n'umwarimu wigisha amashuri y'inshuke.

Agakarito ubona ko gakoze mu dutambaro dufite amabara atandukanye ndetse kakaba kifashishwa n'umwarimu wigisha mu mashuri y'incuke, abana biga mu mashuri y'incuke baravuna kuko kubigisha bisaba kubereka udushushanyo nk'utwo.

Amarati abiri imwe ikaba ica uruziga indi ikaba ari irati y'umurongo, hakaba hari n'ikaramu y'igiti ndetse n'agacaruziga kamwe kari mu mabara y'umukara.

Abantu bigaragara ko ari abanyeshuri, bakaba barimo gukina ndetse bari kugenda banyura ku cyuma cy'umunyenga w'abana batoya. Kikaba ari icyuma kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'ubururu.

Igikoresho bigaragara yuko kibikwamo ibikoresho by'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza, bikaba ari ibikoresho byifashishwa mu kwiga isomo ry'imibare, ibyo bikoresho bikaba ari ingenzi cyane.

Abantu benshi ubona y'uko harimo ababyeyi ndetse n'abana, bakaba barimo kugenda bigishwa ndetse bifashishwa na mwarimu kugira ngo yigishe abana.

Inyubako nziza cyane irimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'intebe zo kwicaraho ndetse hakaba harimo n'ameza asa neza, ibi byose bikaba ari ibikoresho by'ishuri ry'amashuri abanza.

Umwana wiga mu mashuri abanza iyo umwigisha wifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo ugende umukangurira ubwenge hanyuma n'ikintu abonye ye kuzakibagirwa bikazamufasha mu mashuri yisumbuye.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bya gakondo ariko bikaba biri mu mabara na yo atandukanye, byifashishwa n'umwarimu wigisha mu mashuri abanza kugira ngo abashe kwereka abana batoya umuco nyarwanda.

Inyubako nziza, ni inyubako irimo amakaramu ndetse n'amakayi. Hakaba harimo intebe zo kwicaraho, ameza ndetse n'ibindi bikoresho bifasha umunyeshuri wiga mu mashuri abanza.

Hari ibikoresho bigenda byifashishwa mu kubika ibikoresho by'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, aha twavugamo nk'igikoresho cy'agasanduku kibikwamo amarati, amakaramu y'ibiti n'uducaruziga.

Umunyeshuri wiga mu mashuri abanza, hari igikoresho ababyeyi be bamugurira kiba kirimo ibintu bitandukanye byifashishwa mu kwiga isomo ry'imibare, haba harimo uducaruziga n'ibindi.

Si byiza kwituma ku gasozi kuko biteza umwanda ndetse bikaba byateza indwara mu baturage, niyo mpamvu abana batoya biga mu mashuri abanza bigishwa kwituma mu bwiherero.

Amarangi meza cyane y'umuhondo, ubururu, icyatsi ndetse n'umutuku, ari mu ruziga ndetse akaba ari mu binyampande bigiye bitandukanye, hakaba harimo iby'impande eshatu, iby'impande enye, imyiburungushure ndetse n'ibindi.

Umusaza aricaye ku gatebe keza ka kinyarwanda. Afite uruhara rwageze inyuma mu mutwe, asigaranye agasatsi gake cyane nako k'imvi. Ari kuganiriza abana be abaha impanuro imbere y'inzu ye.

Buriya kwigisha umwana ukoresheje ibishushanyo bituma yumva kurushaho ndetse bikanamushimisha kuko iyo areba ibyo bishushanyo ukamubwira icyo bivuze, bituma agira uruhare mu gukuza ubwonko bwe.

Abantu biganjemo inzego z'umutekano, bari kumwe n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakaba bari kubatoza ibigendanye n'itorero ry'Igihugu ndetse babigisha umuco na kirazira by'Igihugu cy'u Rwanda.

Uburezi bwo mu Rwanda bwateye imbere uhereye hasi mu mashuri abanza kuko umwana aba afite ibikoresho yifashisha mu isomo ry'imibare twavugamo nk'uducaruziga, amarati n'amakaramu y'ibiti.

Gushimira ni ngombwa amashuri y'inshuke, ni amagambo yanditse ku gitabo kiri kugaragazwa, gishushanyijeho udusimba tubiri inkoko ndetse n'igikeri, tukaba ari udusimba twabaye inshuti mu gakuru kari muri icyo gitabo.

Ibishushanyo biriho abana ndetse bakaba bari kugenda bakora ibintu bitandukanye, hari ugaburira inka, hari uyishora, hari uyishima ndetse hari n'undi uri kugenda azana umunyu awushyira mu ibasi irimo amazi.

Ibikoresho byifashishwa n'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza igihe arimo kwiga isomo ry'imibare, harimo amarati agiye atandukanye, harimo irati ryifashishwa mu guca umurongo iry'uruziga ndetse n'iry'ibinyampande.

Umuntu urimo gushushanya uruziga yifashishije agakoresho kabugenewe, iruhande rwaho hakaba hari amarati abiri, hari irati ry'uruziga n'irindi rati ry'ikinyampande, hari n'igikoresho cyifashishwa kibikwamo ibyo byose.

Set ni ijambo riri mu mpine risobanura ibigendanye na siyanse yigishwa abana biga mu mashuri abanza kugira ngo nibakura bageze mu mashuri yisumbuye bazabashe kwiga za Biology ndetse n'Ubutabire.

Imyenda iri mu mabara atandukanye ndetse na yo ikaba iri mu bwoko butandukanye, harimo ingofero y'umutuku, umupira w'amaboko magufi utukura, hakaba n'undi mupira w'ingofero ndetse n'maboko maremare w'ubururu.

Hari ibikoresho byifashishwa mu guca uruziga, gusa rimwe na rimwe hari igihe uba uri umukene, wagera mu gihe cyo kwiga isomo ryo gucuru uruziga ukizanira igiceri cya venti cyangwa icya senkanti, hanyuma ukagikoresha kandi nawe ukiga nk'abandi.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa n'abarimu mu gihe baba barimo kwigisha abanyeshuri. Ibyo bikoresho bikaba birimo amakereyo, amakaramu, amagome ndetse n'utundi dukoresho twifashishwa mu gucunga ikaramu y'igiti.

Abantu biga mu mashuri abanza bakoresha ibikoresho bigiye bitandukanye mu isomo ry'Imibare kugira ngo bibafashe kuko isomo ry'Imibare rigira ibintu bitandukanye nk'ibinyampande cyangwa uruziga kandi kubikoresha bisaba kuba ufite ibikoresho runaka.

Igikoresho kifashishwa n'abanyeshuri babikamo ibintu bigiye bitandukanye, birimo amarati, uducaruziga ndetse n'amakaramu y'ibiti.

Inyubako nziza cyane y'amashuri ubona yuk haruguru y'ayo hahinze ibigori, ibyo bigori bikaba byaratewe n'abanyeshuri ndetse hakaba hari n'akayira k'igitaka gakata kagana ku ishuri.

Uruziga rwigwa n'abana biga mu mashuri abanza, rukaba rusobekeranyije ruca mu rundi urwo ruziga rukaba ruriho n'inyuguti ziri mu mabara y'umukara.

Igikoresho kiza cyane kifashishwa mu kubika amakaramu, uducaruziga ndetse n'ibindi bitandukanye kugira ngo umunyeshuri atabita.

Inyubako nziza cyane ikaba ari inyubako y'ikigo cy'ishuri, isize amarange meza ifite ibirahure byiza imbere yayo hari jaride, izo jaride zikaba zisa neza ndetse n'indabo zirimo ziratoshye.

Uruziga barurimo abana ndetse n'ababyeyi, rukaba rurimo n'ibintu bigiye bitandukanye biri kugaragara nk'ibiti ndetse n'amashyamba.

Abana bicaye ku meza, bakaba bafite ibiryo imbere yabo barimo kurya, bicaye mu bice bibiri, aba bana bose ni ibishushanyo byifashishwa n'umwarimu yigisha abana bo mu mashuri abanza.

Abantu bicaye b'abana bakaba bicaye ku ntebe yabagenewe, hakaba hari mwarimu uri imbere yabo, uri kugenda abigisha ndetse bakaba biga mu mashuri abanza.

Igikoresho cyifashishwa n'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza, aho abikamo amarati, uducaruziga, amakaramu y'igiti ndetse n'ikaramu isanzwe.

Igishushanyo kigaragaza umuryango ufite abana benshi ndetse bakaba baba bibereye mu bukene bukabije, kuko baba bafite utuzu dutoya ndetse tutanejeje.

Inyubako nziza cyane irimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa mu burezi, harimo intebe, ameza, utubati, utu etajeri, ibitabo ndetse n'ibindi.

Mudasobwa ziteretse ku meza, akaba ari mu cyumba cyagenewe gukorerwamo ubushakashatsi n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bajyanwamo na mwarimu akagenda abereka uko bakoresha izo mudasobwa.

Abana bari mu muhanda barimo kugenda ndetse bakagenda birukankanaho bakirana, umwe ni umuhungu undi ni umukobwa bose ni ibishushanyo byifashishwa n'umwarimu wigisha abana batoya.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda kigenda gikora ibyo gishoboye cyose kugira ngo kibashe guteza imbere ireme ry'uburezi mu Rwanda, ku buryo usanga bahugura abarimu ndetse bagatanga n'ibikoresho bihagije.

Ibikoresho byifashishwa n'abantu biga mu mashuri abanza birimo amarati y'ibinyampande bitandukanye, hari uruziga, umwiburungushure ndetse n'ayandi.

Inyubako nziza cyane ni inyubako iririmo icyumba cyahariwe gusomerwamo hakaba hari etageri irunzemo ibitabo byinshi, iyo etageri ikaba ifite ibara ry'ikigina.

Ibikoresho byifashishwa mu kuvura cyangwa se mu kubaza imivure ni ibikoresho ubona ko bikozwe mu buryo gakondo, ibi byose babyereka abana biga mu mashuri abanza kugira ngo babigishe umuco nyarwanda.

Abana ubona yuko biga mu mashuri abanza, barapfukamye bari kwandika ku kibaho, icyo kibaho kikaba cyaracuye wagira ngo ntibajya bakigirira isuku, uko bigaragara iri ni ishuri ryo mu byaro.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa na mwarimu wigisha mu mashuri abanza, bikaba ari ibikoresho biri mu mabara atandukanye, umuhondo, ubururu, umutuku, umukara ndetse n'umweru.

Amashuri iyo ageze igihe cyo gutangira, buri mwarimu wese atangira gutegura ibishushanyo ndetse n'ibikoresho bitandukanye azifashisha yigisha abanyeshuri be, by'umwihariko abiga mu mashuri abanza.

Inyubako y'ishuri nziza ifite amabara y'umuhondo n'umweru, imbere yayo hakaba hashinze amakurere ari mu mabara atandukanye, hari umuhondo, icyatsi, ubururu, ndetse n'yandi.

Idarabo ryiza cyane riri mu mabara y'icyatsi, ubururu n'umuhondo, rikaba ari idarapo ry'Igihugu cy' Rwanda rishinze ahantu hari amashuri, ayo mashuri nayo akaba yubatswe n'amatafari ahiye.

Umugore umeze nk'utwite ari mu ishuri, uwo mugore yambaye agapfukamunwa ndetse akaba ari umwarimu wigisha abana biga mu mashuri abanza, imbere hari urugi rufite ibara ry'ubururu.

Ibintu bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza, harimo ibitabo bifite amabara atandukanye ndetse birimo n'amasomo atandukanye, by'umwihariko ariko hagomba kubamo igitabo k'Ikinyarwanda.

Umubyeyi Jeannette Kagame madamu wa repubulika, akaba ari umuntu ukunda guteza imbere uburezi bw'abana, uyu nnguyu akunze kwisanga arimo kuganiriza abana ndetse akina na bo.

Ibinini ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye biri mu mabara y'umutuku, umweru, umuhondo, icyatsi ndetse na move, akaba yifashishwa mu kwigisha abana batoya biga mu mashuri abanza.

Umwana mutoya yakoze igishushanyo ndetse akaba yaje kukimurika mu ishuri, mu by'ukuri abana bakiri batoya iyo bagaragaje impano tuba dukwiye kubashyigikira kugira ngo impano yabo izabashe kubateza imbere.

Inyubako nziza y'ishuri ikaba ari inyubako yubatse neza isize amarangi y'umweru n'ay'icyatsi, Imbere yayo hari imbuga itarimo icyatsi na kimwe, uko bigaragara hakaba hari n'icyapa kiri mu mutwe w'inzu.

Ishuri ubona ko ryubakishije amatafari ahiye rikaba risize irangi hasi ryiza ndetse hakaba hari urubaraza runini rusizwe sima hari amabati arusakaye meza.

Ishuri risa neza ni ishuri ubona yuko risize irangi ry'umweru, inzugi zifite ibara ry'ubururu, imbere hari akajaride keza, ako kajaride karimo imbuga y'igitaka ndetse hateyemo n'indabo nziza zikiri ntoya.

Mu Rwanda hari ibigo by'amashuri biteye imbere ku buryo usanga byubatse neza, bisize amarangi meza ndetse bikaba biba bifite n'ubusitani burimo ibiti bitandukanye bizana umuyaga n'amahumbezi.

Kwigisha umwana wiga mu mashuri abanza biravuna kuko kumubwira ikintu bisaba kumuha n'urugero rw'ibifatika, ni yo mpamvu abarimu bakoresha ibintu bitandukanye by'ibishushanyo biri mu mabara atandukanye.

Buriya umuntu ava kure, iyo ubonye wiga muri kaminuza ugirango ngo kera ntiwari umuntu wumuswa cyane ku buryo guca uruziga byakunaniraga ukifashisha uducaruziga ndetse n'amarati kugirango ubishobore,

Intebe nziza cyane zikaba ari intebe ziteye ahantu ndetse hakaba hari n'ibindi bikoresho nk'ameza, iminzani n'amasaha inyerezo n'ibindi nka metero byifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza.

Inyubako y'ishuri idashamaje, ikaba ari inyubako iteye umucanga bisanzwe ndetse ikaba ifite ikibaho cy'umukara gisa nabi, uko bigaragara nta na sima irimo, iki kigo gishobora kuba atari icyo mu Rwanda ahubwo ari nko mu Burundi.

Amashuri meza ari mu mabara y'umweru, akaba yubakishije amatafari ahiye ndetse asakaje amabati y'ubururu, imbere mu busitani hari icyapa kigaragaza ibigwi ndetse n'amahame by'icyo kigo.

Igishushanyo kigaragaza amabara atandukanye ndetse kiriho n'ibintu bigiye bitandukanye nk'isaha, inyamaswa, abantu ndetse n'inyuguti, kifashishwa na mwarimu arimo kwigisha abanyeshuri bo mu mashuri abanza.

Umwana wiga mu mashuri abanza iyo yiga Imibare bamwereka ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo abashe kuyimenya, bamwereka udukarito tumeze nk'udukubo two guteranya utwo kugabanya ndetse n'ibinyamande bigiye bitandukanye.

Umwana bigaragara yuko ari umunyeshuri akaba afite ibimeze nk'urumuri ndetse imbere ye hari ibishushanyo byinshi bihashushanyije harimo ibyansi ndetse n'inkongoro, uyu mwana ni igishushanyo kifashishwa n'umwarimu wigisha abo mu mashuri abanza.

Ameza azengurutswe n'intebe zicarwaho za sheze, akaba ari ameza bigaragara yuko akozwe mu buryo bw'uruziga, hakaba hari iruhande rwayo akabati cyangwa se akayetageri karimo ibikoresho nk'ibitabo n'amakayi n'amakaramu.

Igishushanyo kigaragaza abana, hari abari kujya kwiga bakaba bahuriye mu nzira bakaba barimo gusuhuzanya, hari n'undi uri imbere wenda kugera ku ishuri, hari abarimu begereye idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda bari kwitegereza abo bana.

Iyo umuntu yiga mu mashuri abanza aba yiga ubumenyi rusange bw'ibintu byose bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu bagenda bamwereka ibikoresho byifashishwa mu mirimo igiye itandukanye, aho bamwereka ibyo mu bwubatsi, ibyo mu buhinzi, ibyo mu bubaji ndetse n'ibindi.

Igishushanyo kiriho imibare uhereye kuri rimwe ukageza ku icyenda ndetse hakaba hariho ibindi bishushanyo bigiye bitandukanye iby'imizenguruko, iby'ibinyampande ndetse n'ibindi biri mu mwiburungushure, ibi byose byifashishwa n'umwarimu yigisha abanyeshuri bo mu mashuri abanza.

Inyubako nziza y'amashuri, ikaba ari inyubako isize amarangi y'ubururu bwerurutse, imbere yayo hari jaride nziza, iyo jaride irimo indabo nziza zifite amabara atandukanye.

Abana biga mu mashuri abanza, ni abana baba bakwiye kwitabwaho, ku bufatanye bw'abarezi ndetse n'ababyeyi, impamvu ni uko abana baba bakiri batoya.

Igihe cyose abanyeshuri bakoze ikizamini cyangwa se isuzumabumenyi, bahabwa amanota yabo bakamenya uko batsinze bityo bakamenya icyo gukosora.

Boite irimo ibikoresho byifashishwa mu kwiga isomo ry'imibare, ibyo bikoresho birimo ikerereyo, hakabamo uducaruziga ndetse n'amarati y'ubwoko bwose.

Iyo ushaka ko umwana wawe yiga neza kandi ibikoresho wamuhaye akabikoresha neza akabifata neza ntibicike cyangwa ngo byibwe umuha igikapu kiza azajya abitwaramo.

Igikapu cyiza kiri mu ibara rya move, cyifashishwa n'umwana wiga mu mashuri y'inshuke cyangwa se mu mashuri abanza agitwaramo amakayi n'amakaramu kugira ngo ataza kuyata cyangwa bakayamwiba.

Umwana bamujyanye ku kibaho imbere. Barimo kumubwira ngo yandike ibyo bari barimo kwiga. Ibi ngibi bifasha gutinyura abana ndetse bigatuma bakurikira kugira ngo nibajya imbere baze kubishobora.

Udupira turunze ahantu hamwe, tukaba turi mu mabara atandukanye ndetse tugiye twanditseho n'amagambo y'icyongereza, utwo tuntu twose twifashishwa n'umwarimu urimo kwigisha mu mashuri abanza.

Igikoresho kirimo utuntu dutandukanye turi mu mabara atandukanye, hakaba handitseho imibare ndetse n'inyuguti byose bikaba byifashishwa n'umwarimu urimo kwigisha abana biga mu mashuri abanza.

Amashuri meza cyane. Ni amashuri ubona yuko imbere yayo hari jaride irimo uturarabo twiza ndetse turi mu mabara y'umuhondo n'icyatsi kibisi. Hari igicumbi kiriho indangagaciro ndetse na kirazira.

Inzu nziza y'igorofa igeretse inshuro imwe, ikaba ifite esikariye nziza zigana hejuru kuri iryo gorofa ndetse hakaba hari n'ibyuma bikikijeho by'umukara bitangira umuntu ngo atagwa.

Inyubako nziza cyane y'ishuri ikaba ari inyubako ifite ahantu habugenewe abana bidagadurira, bagakinira bakishima bagasabana, ni ahantu mu mbuga ubona ko hari imyicundago.

Buri kigo cyose cy'amashuri yisumbuye cyangwa aya pirimeri, aba afite aho kwinjirira nta muntu upfa kwinjira aho abonye hose gusa ibi byose bikorwa mu rwego rwo kugira ngo bacunge abakerererwe ndetse n'abatoroka ikigo.

Umuntu wiga mu mashuri abanza aba asabwa gusoma ibitabo birimo inkuru zigiye zitandukanye kugira ngo abashe kumenya ndetse no gusobanukirwa neza ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda.

Ibikoresho byinshi cyane bitandukanye, harimo n'ibishushanyijeho imibare kuva kuri rimwe kugeza ku ijana. Iyo yose ikaba yifashishwa na mwarimu arimo kwigisha abana batoya.

Ibikoresho bigenda bikoreshwa mu myuga itandukanye harimo urukerezo, imashini, imakasi, inyundo ndetse n'ibindi bigenda byifashishwa mu myuga itandukanye.

Ibitabo birambitse ahantu ubona ko byegeranye n'igikombe giteretsemo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo amabara agiye atandukanye ndetse akaba yifashishwa mu kwigisha abana batoya.

Amashuri meza cyane ubona ko ari ahantu hitegeye, ni amashuri arimo amarangi y'umweru, ubururu, ndetse hakaba hari n'amabati meza cyane ayasakaye, imbere hari ubusitani ubwo busitani bukaba ari bwiza.

Kwiga isomo ry'Imibare ni ibintu bikomeye cyane ndetse hari n'abaririmbyi bavuze ngo imibare ni isomo rikomeye, risaba gushushanya ndetse ukiga n'ibinyampande bigiye bitandukanye.

Ibishushanyo bigera muri bitatu bikaba biri kwerekana uburyo ushobora kwigisha abana uko ubuhinzi bukorwa ndetse n'ibikoresho bihakoreshwa, ibyo bishushanyo birimo isuka, umuhoro ndetse n'igikombe.

Inyubako y'ishuri ni inyubako igereretse inshuro imwe, iyo nyubako ikaba iri mu marangi y'umweru, icyatsi ndetse ikaba ifite ibati ry'ubururu, hari imireko igenda itambika iva hejuru ku ibati.

Amashuri meza ni amashuri yubatse neza, asa neza afite amarangi meza ubona yuko imbere yaho, hari udushushanyo n'udukoresho tugiye dutandukanye. Hari n'imbuga ishashemo sima y'umukara imeze nka kaburimbo.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri ifite inkingi nziza zubatswe n'amatafari ahiye, imbere yayo hari kandagira ukarabe hateretse n'akadobo k'umutuku, hari umugabo hafi aho ngaho wambaye imyenda y'umukara n'akantu k'umweru imbere urimo gutambagira.

Amashuri meza cyane agenda yigisha abana biga mu mashuri abanza, bakoreshwa ibintu bigiye bitandukanye haba hari ibishushanyo bya zamudasobwa ndetse n'amatelefoni abafasha kwihugura.

Ahantu hose hari inyubako y'ishuri yaba iy'amashuri abanza cyangwa iy'ayisumbuye, uzahasanga idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda, mu rwego rwo kugaragaza ko u Rwanda rwigize ndetse rukaba rufite n'ibigo by'amashuri rwiyubakiye.

Uburezi bw'abana batoya bumaze gutezwa imbere cyane ku buryo buri mwana wese abasha kubona ibikoresho bimufasha mu myigire ye ya buri munsi, mwarimu na we yongerewe umushahara kugira ngo ajye agire imbaraga ndetse akore akazi neza.

Umunyeshuri yaje mu isomero, hari ibitabo byinshi biteretse ku meza, ari kugenda arambura ashaka ko yabonamo icyo asoma.

Amarati meza cyane, iy'umweru ndetse ica uruziga n'iyindi nayo y'umweru ica umurongo hakaba hari n'uducaruziga ndetse n'ikaramu y'igiti.

Umusaza wicaye akaba ari kumwe n'umugore we. Abana be na bo bicaye ku mukeka ndetse barikumva inama ze akaba ari kugenda abacira imigani kugira ngo abigishe.

Umwarimu ufite umusatsi mwiza cyane w'umukara udasutse ari imbere arikwereka abanyeshuri imibare yanditse ku kibaho, akaba ari kubabaza ngo ninde wakora iki kibazo.

Uburezi bw'amashuri abanza mu Rwanda bwatejwe imbere ndetse abarimu bahigisha bahabwa umushahara uhagije kugira ngo bajye bigisha abana neza ndetse abana babashe kuzatanga umusaruro.

Amashuri meza cyane, ni amashuri bigaragara yuko afite ibaraza ryiza rifite inkingi izifashe ndetse hakaba hari n'imbuga nziza imbere yaho, iyo mbuga ikaba ikinirwamo n'abana.

Abana bari kwandika ku kibaho, bigaragara yuko bari kwandika bapfukamye, bikaba ari ibintu bitari byiza, kubera ko ibihano bimeze gutya ntabwo byemewe mu mashuri yo mu Rwanda, iyo mwarimu atanze igihano kibabaza umubiri ku mwana bituma yanga ishuri.

Agahanda k'amabuye gasashemo amabuye kari hagati y'inyubako ebyiri, izo nyubako zikaba ari iz'amashuri, ndetse hakaba hagiye hashamitseho n'utundi duhanda twinjira muri buri karasi.

Igishushanyo kiriho amoko atandukanye y'ibiribwa, kikaba kifashishwa n'umunyeshuri wiga mu mashuri abanza. Hari pome, hari imineke, hari pavuro, ndetse n'ibindi.

Abana biga mu mashuri abanza kugira ngo bafate mu mutwe ndetse bagire ubwenge bisaba yuko tubasomera udukuru, urugero hari inkuru y'isandi n'intashya, iyo ngiyo ikaba ari inkuru ikunze kwigishwa abana batoya.

Ishuri ryiza cyane, rifite ibara ry'umweru risizezemo. Hakaba hari n'irindi ry'umukara ahagana hasi, ari na ryo ryiganje ku madirishya n'inzugi. Imbere yayo hahagaze umuntu w'igitsina gabo.

Umwana wiyiga mu mashuri abanza aba afite ibikoresho asabwa gukoresha bitewe n'umwaka agezemo. Nk'ubu ngubu uwanjye aherutse kumbwira ngo ndamugurira agakoresho karimo amarati, uducaruziga, amakereyo, n'ibindi.

Umubumbe w'Isi uri mu mabara y'ubururu ndetse hakaba hari n'irindi ry'umweru bigaragarako ricamo amazi cyangwa umugezi, akaba ari iryifashishwa no kwigisha abana biga mu mashuri abanza, hazengurutseho utugabo dushushanyije turi mu mabara y'umuhondo, umutuku ndetse n'i roze.

Inanasi ni ikintu kimeze neza cyane ku buryo abakirya bishimira uburyohe bwacyo, kikaba gikunze kugira uruhare mu gufasha umuntu kwirinda indwara.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwiga isomo ry'Imibare ni ibikoresho birimo agacaruziga, irati ndetse hakaba harimo n'ikaramu y'igiti.

Umwana wiga mu mashuri abanza agomba kwiga mu buryo bwose bushoboka ndetse mwarimu na we agomba gukoresha ibishoboka byose, akamwigisha kumva neza imibare ndetse no gusoma ururimi rw'Ikinyarwanda.

Igikarito kirimo ibintu bigiye bitandukanye, byose bikaba bishushanyijeho inyuguti ndetse n'imibare yifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza.

Inyubako nziza y'igorofa ikaba isize amarangi y'umweru ndetse n'andi y'ubururu ku nzugi no ku madirishya, ikaba ari inyubako y'ikigo cy'ishuri ndetse ikaba isakaje ibati ry'ubururu.

Ahantu hose hari inyubako y'amashuri, haba hagomba kuba n'ubwiherero, kubera y'uko isuku igomba kwimakazwa kandi kwituma ku gasozi ntibyemewe, ubundi se byaba byemewe bwo, umuntu mukuru uzi ubwenge yakituma ku gasozi.

Amashuri yo mu Rwanda yagiye atezwa imbere ku buryo leta yagiye yubaka ibyumba by'amashuri ndetse igashyiraho n'ibikorwa remezo bitandukanye nk'imihanda yifashishwa mu kugeza abana ku mashuri.

Inyubako z'amashuri zikaba ari inyubako zubatse ku murongo, buri nyubako yose isakaje ibati ryiza ry'ubururu ndetse ibikuta byayo bisize irangi ry'umweru, ni inyubako z'amashuri abanza.

Buriya ntuzabone umwana yiga muri kaminuza, aba yaraciye kure ndetse dushimira abarimu barema umwana bakamufasha ku buryo amenya ubwenge akamenya buri kimwe.

Inyubako irimo ibikoresho bitandukanye bishushanyijwe hagendewe ku nyuguti ndetse n'imibare. Ibyo byose bikaba byifashishwa n'umwarimu wigisha abana batoya.

Abanyeshuri barimo kuyora imyanda bayikura mu busitani, bayisuka ahabugenewe, si byiza gusandaguza imyanda aho ubonye hose n'ubwo mwaba mufite abashinzwe gukora isuku.

Uko bigaragara ni byiza cyane birashimishije kubona umwana yiga akagira ubwenge agakura ndetse agakura akura neza, ni ibikoresho bigiye bitandukanye biba byaramufashije.

Imyitondago y'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, ni imyicundantago iri mu mabara atatu, umuhondo, ubururu n'icyatsi, bikaba bifasha abanyeshuri kwidagadura.

Umuntu wiga mu mashuri abanza, aba ari umuntu witezweho kuzamenya ubwenge ndetse akagira icyo amarira igihugu, niyo mpamvu leta igenda ishyi abarimu babifitiye ubushobozi ndetse batigiye kugira ngo bafashe aba banyeshuri batazadindira.

Kwigisha abana bo mu mashuri abanza biba bigoye kuko umwana wo mu mashuri abanza, bisaba ko ugenda umwereka udushushanyo tugiye dutandukanye kugira ngo abashe gufata ibyo umwigisha, umwana wo mu mashuri abanza, niwe uba ukwiye kwitabwaho cyane.

Abantu benshi bakunze kugira ngo kwiga ni ibintu byoroshye, nyamara buriya iyo umwana ari mu mashuri abanza, ntibimworohera kuko bisaba y'uko ibikoresho byose ugenda ubimwereka, akazazamuka abizi hanyuma akamenya ubwenge.

Ibishushanyo bigera muri bine, bikaba biriho ibintu bitandukanye. Hari ikiriho inyamaswa ndetse n'ishyamba, hari ikindi nacyo kiriho abana babiri bari kwerekana ahantu ku kivu, bakaba ari abana bashushanyije.

Ibikarito bibumbye neza bikaba biri mu mabara atandukanye, byifashishwa n'umwarimu urimo kwigisha amashuri abanza, ibyo bintu byose birimo umutuku, umuhondo, ubururu, move, iroze ndetse n'ayandi.

Umwana w'umuhungu w'igishushanyo ubona ko yipampye rwose akaba afite ibishyaka bimeze nk'iby'abazungu, arimo guseka yashinyirije ndetse yakambije impanga. Akaba ari igishushanyo kifashishwa n'umwarimu yigisha abana mu mashuri abanza.

Abanyeshuri iyo bashoje amashuri yisumbuye bashoje nk'icyiciro rusange, bagira amahugurwa bahabwa ndetse bakigishwa indangagaciro na kirazira by'umuco Nyarwanda.

Abanyeshuri bari ku murongo, umwarimu wabo cyangwa se umuyobozi wabo ari imbere yabo arimo kubagezaho imbwirwaruhame yabateguriye, ikubiyemo amategeko n'amabwiriza bigenga ikigo.

Abantu benshi bari imbere y'inyubako y'ishuri, bakaba bari kwigira hamwe uburyo bayivugurura ndetse bakaba barimo abayobozi batandukanye harimo n'abashinzwe iby'ubwubatsi.

Abana beza cyane bari gusubiramo amasomo yabo, bafite imashini zifashishwa mu guteranya imibare bigaragara ko bari kwiga iryo somo, imbere yabo hari amakayi yanditsemo ibyo mwarimu yabigishije.

Abana biga mu mashuri yisumbuye b'abakobwa beza cyane baseka neza. Bambaye impuzankano y'ishuri, bambaye inkweto nziza n'amasogisi y'umweru, bari imbere yishuri ryabo, ahantu muri esikariye.

Abantu bari mu nyubako y'ishuri bakaba bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'abanyeshuri bambaye impuzankano, uko bigaragara ni amahugurwa yahuje abayobozi ndetse n'abanyeshuri.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano y'umweru n'umukara ndetse bari mu modoka bagiye mu rugendo shuri barishimye cyane ndetse bari kuvuga bati leta y'u Rwanda irakabyara.

Abana babiri b'abakobwa bambaye ishati y'umweru, bafite mudasobwa imbere yabo ndetse hari n'umugozi ushinzwe kuzana umuriro muri iyi mashini, bakaba barimo kugenda biga amasomo atandukanye.

Igihe cyose hari icyo umuyobozi yifuza kugeza ku banyeshuri, abateranyiriza hamwe ahantu habugenewe maze akakibagezaho, gusa uzasanga buri munyeshuri akurikiye ndetse yiteguye gushyira mu bikorwa icyo abwirwa.

Abantu benshi cyane bambaye utujire ndetse turi mu mabara atandukanye, baje imbere y'inyubako y'ishuri bari kuganira n'ubuyobozi bw'ikigo barebera hamwe uburyo bazubaka irindi shuri.

Abagabo babiri barimo gutambuka bava mu nyubako, hari n'umugore bari kumwe uhindukiye uri kubareba ndetse uyu mugore akaba ari kubabaza ibyo bakoze n'uburyo babikoze kuko ari umuyobozi w'ikigo.

Abantu bigaragara yuko ari abanyeshuri bicaye muri sale nini, hari umuyobozi uri imbere urimo kubagezaho ikiganiro akaba afite indangururamajwi, ukuboko kumwe yakuzamuye ndetse akaba karimo n'ibipapuro.

Umugabo w'umuyobozi wambaye amarinete n'ishati nziza y'umukara afite urupapuro mu ntoki, afite n'indangururamajwi arimo kugeza ijambo ku bamukurikiye ndetse bakaba bari muri gahunda yo guteza imbere uburezi.

Abantu bambaye imipira isa yanditseho n'amagambo y'icyongereza, ariko akaba ari ikigo cyigisha ibigendanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro, umuyobozi yateranyije abanyeshuri bose akaba ari kubagezaho imbwirwaruhame.

Mu Rwanda buri kigo cyose cy'ishuri kigira umunsi wacyo wo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, iyo ngiyo ni gahunda yashyizweho mu rwego rwo kugira ngo abatoya natwe tumenye amateka yacu.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bakaba barimo kwiga amasomo yabo, bari kwandika mu makayi ndetse biragaragara yuko buri mwana wese akurikiye kandi ari kwandika ibyo yumva.

Abana beza bishimye bambaye impuzankano bazamuye ibiganza byabo, bagiye gusubiza ikibazo mwarimu ababajije, bari imbere y'ishuri ndetse ahantu bari urabona y'uko ari mu gitaka.

Umuntu bigaragara ko ari umushyitsi, wasuye abanyeshuri. Akaba ari kubagezaho imbwirwaruhame y'ibyo yabateguriye ndetse bakaba bambaye impuzankano yabo ya kaki n'umweru.

Abantu bicaye ubona yuko ari abanyeshuri bambaye impuzankano, bakaba bari gukoma amashyi bamwe bahagaze inyuma ndetse aho bari hari urubaraza runini ndetse bakaba bakurikiye ijambo ry'umuyobozi wabo.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri barimo gukora ibizamini, bose bicaye bahanye intera, bigaragara ko intebe yicayeho umunyeshuri umwe, mwarimu na we ahagaze inyuma yabo ari gucunga ko ntawe ukopera.

Amasafuriya manini cyane azwi nka muvero, ateretse aho atekerwamo ndetse akaba atekerwamo ibiryo by'abanyeshuri nka kawunga, umuceri cyangwa imyumbati.

Umuntu w'umugabo urimo guhererekanya ibitabo n'umunyeshuri, imbere yabo hakaba hari n'undi mugore wambaye imyenda y'umukara ufite umusatsi udasutse.

Abanyeshuri babiri umukobwa n'umuhungu, bafite bibiliya mu ntoki, bayiyizamuye bose bayifasheho, umunyeshuri w'umukobwa afite agapapuro mu ntoki n'ikaramu arimo kugenda asoma.

Inyubako nziza cyane y'ishuri isize amarangi y'umweru, ni inyubako ifite amagambo yanditseho nayo yandikishije mu ibara ry'umukara imbere yaho hari akajaride kakiri gutunganywa.

Umurezi yicaye imbere y'abanyeshuri, akaba ari kugenda abahugura ndetse anabigisha ku bintu bigendanye n'ikoranabuhanga kugira ngo nabo badasigara inyuma kuko u Rwanda rukataje mu iterambere ry'ikoranabuhanga.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri barimo kwiga bambaye impuzankano y'amabara y'ubururu ndetse n'umweru, bafite amakayi barimo kwandika, abandi barimo kurebera gusa.

Inyubako nziza y'amashuri, ikaba ari inyubako isize irangi ry'umweru, yubakishije amatafari ahiye, iruhande rwayo hari kugenda abanyeshuri mu busitani, abo banyeshuri ni abakobwa.

Abana bambaye impuzankano, abana bose bambaye imipira y'umuhondo, amapantaro ya kaki ndetse bakaba bari kugenda mu nzi, uko bigaragara hakaba hari n'ibiti biri guhinguka bari mu rugendo shuri.

ikigega cy'umukara kiri iruhande rw'ishuri. Iryo shuri rikaba rifite irangi ry'umuhondo ndetse rikaba ryubakishijwe amatafari ahiye. Imbere y'ishuri hari abantu barimo kugenda.

Abantu bari mu nyubako, iyo nyubako ikaba ifite ibikuta bisize amarangi y'ibara ry'ivu ndetse hakaba harimo n'ibikoresho byifashishwa mu gutegera abanyeshuri ni za muvero.

Abana biga ku kigo kimwe cyo mu Rwanda bambaye impuzankano bicajwe ahantu hamwe muri sale idasakaye, bari ku zuba ry'igikatu ndetse urabona ko impanga zabo zayaze, bari kugezwaho ibiganiro n'abayobozi babo.

Abana biga mu mashuri yisumbuye bari mu ishuri ryabo, barimo guseka, barishimye, baranezerewe cyane ubona y'uko ari abahungu n'abakobwa, bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'imipira y'imbeho y'umukara n'amajipo cyangwa amapantaro y'umukara.

Umwana w'umukobwa ubona ko ukiri mutoya cyane yambaye impuzankano z'ishuri, ni ibara ry'umweru ndetse na kaki, ari imbere agiye gusubiza ikibazo ku kibaho.

Abana beza cyane b'abanyeshuri barimo gukora ikizamini, buri wese aricaye ndetse ari kureba ku rupapuro rwe, barimo kwandika batekereza neza kugira ngo batazabona zeru.

Abanyeshuri bari gukaraba ku rukarabiro ndetse uko bigaragara bahagaze bahanye intera ya metero, ni mu gihe cya corona virusi, ubwo Isi yose yari ihangayitse.

Inyubako nziza y'ishuri ikaba ari inyubako irimo amabuye ndetse n'amatafari basize ibara ry'umweru, azengurutse utujaride turimo indabo nziza zifite amabara atandukanye.

Umuntu wambaye imyenda y'umukara arimo kwakira ibikoresho ari guhabwa n'umunyeshuri wambaye impuzankano y'ishati y'umweru n'ijipo ya kaki, akaba arimo kubihereza umuyobozi we.

Inyubako nziza y'ikigo cy'amashuri ikaba irimo etajeri iri mu mabara y'umweru, iyo etajeri ikaba ipanzemo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri barimo bakora ubushakashatsi.

Inyubako nziza y'amashuri ikaba ari inyubako irimo abantu bayubatse bakaba bari kugenda bareba ahatuzuye neza kugira ngo bahakosore, maze bayimurike, abanyeshuri bazatangire kuyigiramo.

Karangazi ni umurenge umwe mwigize akarere ka nyagatare ukaba ari umurenge ufite ikigo cy'amashuri kitiranwa nawo, uyu murenge ukaba utanga amahirwe ku banyeshuri bose.

Abantu bicaye ubona y'uko bazengurutse harimo abayobozi ndetse n'abanyeshuri, abanyeshuri bambaye impuzankano, abayobozi nabo bambaye amashati n'amapantaro byiza cyane, bari imbere y'ameza.

Ishuri ryiza cyane rifite umuryango munini uryingiraho, mo hagati mu muryango harimo icyapa kiri mu gikarito kigaragaza neza uko iryo shuri ryubatswe.

Mu Rwanda hashyizweho gahunda yo kudaheza buri muntu wese, niyo mpamvu n'abagore nabo basigaye baba ba rwiyemezamirimo, bakubaka inyubako z'ishuri, hanyuma bakazimurikira abayobozi igihe zuzuye.

Umwana mwiza cyanew'umunyeshuri. Aricaye arimo kwandika. Imbere hari mwarimu na we uri kwereka abanyeshuri ku kibaho, buri mwana wese imbere ye hari mudasobwa yigiramo. Ubona ko uburezi bwateye imbere.

Gukaraba intoki ni byiza cyane biturinda indwara zirimo ibyorezo ndetse n'izindi zose zishobora guterwa no kudakaraba intoki, ni yo mpamvu kuri buri kigo cy'ishuri haba hari kandagira ukarabe.

Abanyeshuri bicaye neza biga mu mashuri yisumbuye, bakaba barimo gukora ikizamini, bamwe barimo kwandika mu bitabo byabo, abandi nabo bari kureba umuntu uri imbere mugenzi wabo urimo kubasomera amabwiriza.

Abana b'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano y'amabara y'umweru kaki ndetse n'umupira w'icyatsi kibisi ushushanyijeho, hakaba hari n'ikibaho cy'umukara barimo kwifotoreza imbere yacyo.

Inyubako z'amashuri ni inyubako zubatse zizengurutse jaride nziza ikiri ntoya, iyo jaride ikaba irimo amadarapo atandukanye, harimo idararapo ry'Igihugu cy'u Rwanda ndetse ubona ko muri jaride hagiye hacamo utuyira twiza.

Abantu bigaragara ko ari abarimu ndetse n'abarezi n'abayobozi bari imbere y'inyubako y'ishuri barimo kuganira ndetse iyo nyubako ikaba ifite ibiti biteye imbere yayo bizana akayaga, iyi nyubako irashaje cyane.

Abana benshi cyane ubona ko biganjemo abiga mu mashuri abanza. Ndetse hakaba hari n'abandi biga mu mashuri yisumbuye. Bari kumwe na polisi. Bari kugenda mu muhanda. Bari gukora' urugendo rwo kwibuka.

Abantu barimo abashinzwe ubwubatsi ndetse n'abayobozi b'ikigo bari kugenda batambagira mu mashuri mashyashya yuzuye bareba ko yiteguye kwakira abanyeshuri.

Umuyobozi w'abanyeshuri ari imbere yabo arimo kubabwira amategeko n'amabwiriza abagenga, abanyeshuri na bo baricaye bateze amatwi kandi biteguye kuyashyira mu bikorwa.

Abana biga mu mashuri yisumbuye bambaye udupfukamunwa, ni abakobwa gusa bakaba bambaye impuzankano, barimo kureba muri mudasobwa buri wese afite iye, ni ibintu byiza bigaragarira ijisho.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bateraniye hamwe, aho baje mu munsi Mpuzamahanga, uwo munsi ukaba warahariwe kwita ku burezi bw'abana bose, aho mu Rwanda bakunze gushyigikira uburezi kuri bose.

Abantu bari ku murongo bigaragara ko ari abanyeshuri. Abo bantu bose bakaba bambaye nk impimuzankano bakaba ari urubyiruko rw'abasore ndetse n'inkumi, bakaba bari mu rugendoshuri cyangwa bari mu kindi gikorwa.

Abantu bicaye mu nyubako ahantu mu cyumba ubona yuko buri wese imbere ye hateretse amazi yo kunywa y'uruganda rwa Nile. Ndetse bakaba bari kwigira hamwe uburyo bagiye kubaka ibyumba by'amashuri.

Abantu bari imbere y'imbaga y'abana batoya ndetse urubyiruko n'abandi, bakaba barimo kugenda babigisha ibintu bitandukanye kugira ngo babashe kwirinda ibishuko ndetse n'ibindi bintu byose byabangiriza ubuzima.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye, kikaba kirimo abanyeshuri beza bambaye impuzankano, bakaba bakoze amahugurwa none barimo gufata ifoto y'urwibutso hamwe n'abayobozi babo.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano y'ishuri iri mu ibara ry'umweru ndetse akaba yambaye na karuvate, ari imbere ya jaride nziza ifite indabo nziza n'ibiti biyiteyemo.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ikaba ari isarubeti y'ubururu, bakaba bari mu nyubako yagenewe gukorerwamo ubushakashatsi bakaba biga mu mashuri yisumbuye, aba banyeshuri bose ni abahanga.

Ikigo cy'amashuri ubona yuko cyuzuye vuba. Abantu bacyubatse bari kugenda batemberana n'umuyobozi wacyo bamwereka uburyo bagiye babikora kugira ngo arebe niba kiteguye kwakira abanyeshuri.

Abana bafite ikibandirore kinini cyane, hakaba handitseho Nyagatare ndetse n'ikigo cy'amashuri yisumbuye, hakaba handitse ngo Kwibuka ku nshuro ya makumyabiri kabiri, bari mu rugendo rwo kwibuka.

Abantu benshi bambaye amajire bari mu nyubako ndetse aho bari hakaba hari ibisafuriya binini cyane byitwa muvero, ibyo bisafuriya byifashishwa n'abantu batekera abanyeshuri.

Urubyiruko rw'abanyeshuri bashoje ingando cyangwa urugerero ndetse bamwe bajya bavuga ngo ni itorero, bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso, abayobozi barimo inzego z'umutekano bicaye imbere yabo.

Akarere ka Nyagatare ni kamwe mu turere dunini mu Rwanda ndetse kakaba kazwiho kugira ibigo by'amashuri byiza cyane bifite amabara y'umuhondo ndetse bikaba bifite n'inzugi nziza cyane.

Abana biga mu mashuri yisumbuye bambaye impuzankano, bakaba bari gukora inama ya mu gitondo kugira ngo babone uko bajya ku masomo, byabaye nk'itegeko aho buri bigo byose byo mu Rwanda mu gitondo bakora inama.

Umuntu ukunze kugera mu Rwanda abona amashuri yubatse neza, ariko buriya Leta iba yarashoyemo akayabo k'amafaranga ndetse ba rwiyemezamirimo na bo bakayubaka kugira ngo abana b'u Rwanda bakomeze kwiga neza.

Umurenge wa Rukomo, ni Umurenge ugira inyubako nziza cyane z'amashuri ndetse hakaba hari n'ibyapa biba bigaragaza abafatanyabikorwa bagenda batera inkunga ayo mashuri nta za Unicefu ndetse n'ibindi.

Mu gihe cya covidi cumi n'ikenda abantu basabwaga guhanahana intera ya metero abanyeshuri bo iyo bazaga ku ishuri mbere yo kwinjira barabanzaga bagapimwa umuriro ibyo bigafasha leta kwirinda gukwirakwira kw'iki cyorezo.

Abanyeshuri beza cyane bambaye impuzankano bafite amakayi ku bibero byabo, bakaba barimo kumva ibyo umuyobozi wabo arimo kubabwira, aho bari ni imbere y'inyubako y'ishuri.

Abantu b'aba enjenyeri bari mu nyubako, bakaba bari kugenda batemberamo berekana ibyo bubatse ndetse abayobozi na bo bari kugenda bareba niba koko ibyo babasabye ari byo bakoze.

Abantu babiri b'abanyeshuri bambaye impuzankano zisa ziri mu ibara ry'umweru, bari imbere y'ikibaho bakaba barimo kugenda basubiza ibibazo mwarimu ari kubabaza.

Umwana w'umuhungu w'umunyeshuri arimo guhererekanya ibitabo n'umuyobozi we, ni byiza ko igihe cyose ubonye umuyobozi wawe aje ugomba kumwakira ibitabo ukabijyana ahabugenewe.

Igihe cyose abana biga bagomba kugira aho bidagadurira mu buryo butandukanye, ku buryo bituma ubwonko bwabo bukora neza ndetse bakagira ubwenge buhambaye.

Inyubako nziza y'amashuri igeretse rimwe, ikaba ari inyubako isize irangi ry'umweru, ikaba ifite inkingi zigiye zimanuye hejuru zituruka ku gisenge, ni inyubako iri ahantu heza hitegeye.

Igipapuro kinini cyane cyometse ku gikuta, icyo gikuta kikaba gifite amatafari ahiye acyubatse, urwo rupapuro rukaba ruriho ibikoresho byifashishwa muri laburatwari.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye iyo bashoje icyiciro runaka urugero nka Tronc Commun, bahita bajya mu rugerero bakigishwa indangagaciro ndetse na kirazira by'umuco Nyarwanda.

Umwana w'umukobwa wambaye impuzankano y'ishuri akaba ari gupimwa umuriro, uko bigaragara ni mu gihe cy'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ubwo Abanyarwanda ndetse n'Isi yose muri rusange bari bibasiwe.

salle nini cynae yakira abanyeshuri barenga magana atanu, bakaba bicayemo bambaye impmuzakano zisa bigaragaza ko ari abo ku kigo kimwe, aba bana bari gukurikira imbwirwaruhame.

Amashuri yigirwamo n'abana bo mu Rwanda aba ari amashuri meza cyane ndetse yubatse neza, rimwe na rimwe abazungu ndetse n'abafatanyabikorwa batera inkunga iby'uburezi bajya baza gusura abana bakareba uko biga.

Ibigo byo mu mashuri mu Rwanda hose usanga bihuriye ku kintu kimwe, iyo hari ikintu abayobozi bifuza kugeza ku banyeshuri ntabwo bagenda bakibwira umwe umwe, ahubwo bateranyiriza abanyeshuri bose hamwe maze bakababwirira muri rusange.

Umuntu w'umubyeyi cyangwa se w'umurezi, ari kugenda mu kayira k'igitaka, iruhande rwa jaride nziza ikoze uruziga, inyuma ya jaride, hari abanyeshuri bambaye impuzankano bakaba bari imbere y'ishuri ryabo.

Abantu benshi cyane bambaye amajire y'umuhondo ndetse n'andi y'icyatsi yose arimo akabara k'umweru, bari kugenda bazenguruka inyubako z'amashuri zimaze kuzura kugira ngo barebe niba bazishyiramo abanyeshuri.

Ishuri ryiza cyane ubona yuko ryubakisha amatafari ahiye rikaba risize amarangi y'umuhondo hasi hari kugendaho abantu bambaye amajiri, imbere haparitse imodoka ariko itari kugaragara neza.

Umubyeyi bigaragara yuko ari umwarimu cyangwa se umurezi. Akaba ari kwigisha abarimu bagenzi be uburyo bajya bita ku banyeshuri, imbere ye hateretse amazi yo kunywa ndetse hari n'ikayi yo kwandikamo.

Ikigo cyiza cyane cy'amashuri y'imyuga, kikaba ari ikigo gifite irembo rinini, iryo rembo rikaba rifite urugi ruri mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi, hejuru handikishije amagambo y'umweru ari mu rurimi rw'icyongereza.

Ivaze iterekwamo indabo ikaba iteretse mu yindi nini, ndetse byose bikaba biri ahantu ku meza, bikaba byarakozwe n'abanyeshuri biga mu mashuri y'ubumenyingiro.

Ibibumbano ubona ko bibumbye, inkono, ibishorori, n'ibindi bikoresho bitandukanye bikaba ari ibyakozwe n'abanyeshuri biga mu mashuri y'ubumenyingiro ndetse n'imyuga.

Abantu bari kugenda mu muhanda babiri barafatanye, umwe n'u mugore undi n'umugabo, abandi nabo barikwigendera ukwabo bambaye imyenda y'umukara n'umweru, bari kugenda mu kayira k'amapave.

Umugabo ushushanyije cyangwa se akaba ari ifoto bafotoye bakayishyira mu buryo bw'umukara, akaba ari umugabo wambaye amarinete ndetse ubona ko ari umuyobozi.

Kaminuza nkuru y'ubumenyingiro ikaba ari kaminuza yigisha abanyeshuri gukora ubukorikori ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye byabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi mu kwiteza imbere.

Intebe nziza cyane z'ubururu, zikaba ari intebe ziteye mu nyubako mu cyumba mwo imbere. Izo nyubako zose zikaba ari iza Kaminuza y'ubumenyin ngiro mu Rwanda.

Abantu biga mu mashuri y'ubumenyingiro, bagira uruhare cyane mu iterambere ry'igihugu kuko iyo usohotse muri Kaminuza warize imyuga, ntibisaba ko ujya mu biro gusaba akazi ahubwo urakihangira.

Inyubako nziza, ikaba ari inyubako ifite amabara meza, ifite ibyuma bikoze ndetse ikaba ifite ibirahure binini bibonerana. Ni inyubako ya Kaminuza nkuru y'Igihugu.

Ishuri ryiza cyane, ni ishuri rifite ubusitani bwiza burimo indabo imbere hari agahinda k'amampave ubona ko kariho n'utuntu twuturongo tw'umweru n'umukara tuvangavanze.

Benshi bari mu ishuri barimo kwiga ariko bakaba batambaye impuzankano, nkuko bigaragara ni abanyeshuri biga muri Kaminuza nkuru y'Igihugu ariko bakaba biga mu ishami rigendanye n'ubumenyingiro ndetse no kwihangira imirimo.

Icupa rya pulasitike ryometseho igipapuro rikaba ari icupa rishobora kwifashishwa n'abantu biga iby'ubumenyi ngiro, bakaribyazamo ikintu gishobora gutanga umusaruro ku isoko.

Ibaraza ryiza cyane rifite ibati ritukura ndetse rikaba rifite n'inkingi zirifashe, haparitsemo ibinyabiziga harimo imodoka ndetse n'ikindi kimashini cyifashishwa mu gukora imihanda.

Ibikoresho bikoze mu mbaho. Bikaba byifashishwa n'umwarimu igihe arimo kwigisha abanyeshuri abereka uburyo bashobora gukora ibintu bitandukanye, bikababyarira umusaruro.

Abantu bari mu nyubako, iyo nyubako ikaba ari iy'ishuri ry'ubumenyinyingiro ndetse n'imyuga, ni abanyeshuri barimo kwiga, buri wese imbere ye hateretse agacupa k'amazi yo kunywa ndetse harimo n'abafite za mudasobwa.

Ikibaho cyiza cyane cyifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'ubumenyigiro, imbere hari ameza arambuyeho ikaye, hari n'umuntu uri kugaragara ikirenge bisa nk'aho ari mwarimu.

Umwarimu wambaye itaburiya y'umweru ufite imisatsi isutse ikaba ari miremire ikora mu mugongo, afite igitabo ndetse yambaye ipantaro nubwo ari umugore akaba ari gutambuka mu kayira karimo amapave.

Urushushanyo rw'igisiga, ni urushushanyo ruri kugaragara neza cyane mu mabara y'umukara, hakaba handitse amagambo y'icyongereza ari mu ibara ry'umweru, bikaba ari ibintu byifashishwa n'abanyeshuri biga imyuga.

Abanyeshuri biga muri Kaminuza nkuru y'Igihugu y'ubumenyingiro ndetse n'imyuga, bashoje amasomo yabo none bambaye amakanzu meza, bambaye n'ingofero bakaba barimo kwishimira ko bagiye gutanga ubumenyi bwabo hanze ku isoko ry'umurimo.

Hari ibintu byinshi mu Rwanda byagiye bitezwa imbere nk'ubuvuzi ndetse n'ubuhinzi n'ubworozi, nyamara ibigendanye n'amashuri na byo byarahagurukiwe, ku buryo bashyizeho na za kaminuza z'ubumenyin ngiro ndetse n'imyuga.

Abana ubona ko ari bakuru bicaye mu ishuri, mwarimu wabo ari imbere arimo kubigisha bamwe bafite mudasobwa imbere yabo, abandi bari kwigira muri telefoni gusa buri wese afite ikayi cyangwa urupapuro arimo kwandikamo.

Ubundi umukororombya uba ugizwe n'amabara atandukanye ndetse bavuga yuko aricyo kintu cyonyine kigizwe n'amabara yose yose abaho ku isi. Abantu biga ibigendanye n'ubumenyingiro ndetse n'imyuga barabishushanya neza neza ukagira ngo ni wo.

Muri Kaminuza nkuru y'ubumenyingiro ndetse n'imyuga mu Rwanda, basigaye biga ndetse bagahabwa n'ubushobozi bumwe na bumwe bubafasha gukora ibigendanye n'amasomo yabo, ku buryo bashushanya neza ndetse bakabasha kubona ibikoresho bihagije.

Ni byiza cyane ndetse ni iby'agaciro kubona amashuri y'ubumenyingiro n'imyuga yaratejwe imbere, buri mwana wese akaba yiga icyo yihitiyemo mu Rwanda.

Kwiga ibintu bigendanye n'imyuga ndetse n'ubumenyingiro ni byiza cyane kuko bituma ubyiga igihe ashoje kwiga, atabasha kujya muro gusaba akazi ahubwo ahita yihangira umurimo.

Igitenge cyiza cyane kiri mu mabara atandukanye, kikaba ari igitenge cyifashishwa n'abantu biga imyuga mu gukora udushushanyo dutandukanye cyangwa se hari ikintu runaka bashaka gutaka.

Inyamaswa nini cyane ishushanyije, ifite amababa azamuwe mu kirere, ikaba ari inyamaswa bigaragara y'uko yometse ku gikuta cy'ishuri, mwarimu akaba ayifashisha arimo kwigisha abanyeshuri.

Umuryango winjira mu nyubako, ukaba hari umuryango ufite ibirahure bibonerana, ndetse ukaba utingishije serire, uyu muryango wanditseho na nimero ziwuranga kugira ngo hatagira uhayobera.

Abantu b'urujya n'uruza, bambaye imyenda itandukanye harimo uwambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru, hari abandi biyambariye amapantaro y'amakoboyi abakobwa ndetse n'abahungu bakaba bari imbere y'inyubako ry'ishuri.

Inyubako nziza bigaragara yuko ari iy'ikigo cy'amashuri cyangwa se akaba ari aho abanyeshuri bacumbika, imbere yayo hari jaride nziza, iyo jaride irimo indabo zihumura neza.

Abantu bifotoreje imbere y'ikirango cya Kaminuza nkuru y'Igihugu cy'u Rwanda, bakaba bari bahuriye hamwe mu nama aho bari bari kwigira hamwe uburyo bateza imbere uburezi.

Amashuri y'ubumenyi ngiro na za Kaminuza mu Rwanda, byatejwe imbere ku rwego ruhambaye, ku buryo ubu ngubu abanyeshuri basoza bashobora kujya no gukora hanze y'igihugu, bagakora imirimo itandukanye bakiteza imbere.

Umwana bigaragara yuko ari umukobwa wambaye ipantaro iciyemo uturongo dutambitse n'utundi tumanutse, akabari iruhande rw'igikoresho kimeze nk'indege, akaba aricyo yakoze nk'uko yiga mu myuga.

Iyo umuntu ashoje amashuri ye mu cyiciro runaka cya kaminuza, akora ikirori gikomeye cyane akambara n'ikanzu igaragaza yuko ari indashyikirwa, ibyo ngibyo bikamufasha kuzajya ahora yibuka ko ari intwari ndetse ari intiti.

Umuntu w'igishushanyo wambaye ikoboyi ndetse nanshongo, akaba yifashe ndetse ari kugaragaza nyashi, ni umukobwa ufite imisatsi myiza ikora mu mugongo isutse, uwo muntu akaba yarashushanyijwe n'abanyeshuri biga mu mashuri y' ubumenyi ngiro.

Inyubako nziza y'amashuri ni inyubako ubona ko ifite ibyumba byiza cyane ifite ibirahure bikoze inzugi n'amadirishya ifite ndetse n'amadirishya asize irangi ryiza ry'icyatsi, imbere hari utuntu turimo indabo zihumura.

Intebe nziza z'ubururu ziteye mu ishuri ndetse hakaba harimo n'ameza, afite ibara ry'ikigina aha ngaha ni mu ishuri rikuru ry'ubumenyingiro mu Rwanda.

Abana ubona ko bari mu ishuri bakaba biga mu mashuri yisumbuye cyangwa muri kaminuza y'ubumenyingiro, aho bari hari intebe nyinshi zifite ibara ry'ubururu.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byikoreshwa n'abantu biga mu mashuri y'ubumenyingiro, ni ibikoresho biba bikoze mu mbaho cyangwa se mu bindi bintu.

Akayira keza cyane kanyuramo amapave ahasashe ndetse hakaba hari utujaride turimo indabo nziza cyane hiya hagaragara ibiti ndetse n'amashyamba.

Amashuri y'ubumenyigiro yatejwe imbere cyane mu Rwanda, leta yubatse za kaminuza kugira ngo abazajya basoza mu mashuri yisumbuye bajye bakomeza kwihugura ndetse no kunguka ubumenyi.

Umwarimu arimo kwigisha abanyeshuri, abo banyeshuri bakaba biga muri Kaminuza nkuru y'Igihugu y'ubumenyingiro ndetse n'imyuga, abo banyeshuri bafite za mudasobwa barimo kwifashisha.

Intebe y'itaburete ni intebe nziza cyane ikaba iteye mu ishuri, hari iyindi y'ubururu ndetse hakaba hari n'ikintu cy'umweru, mwarimu yandikaho kugira ngo abanyeshuri bakomeze gukurikira neza.

Aabantu barimo kugenda mu muhanda w'amapave ndetse iyo bari guturuka haragaragara inyubako nziza y'igorofa isize amarangi y'umweru, iyo nyubako ikaba ari iyo abanyeshuri biga muri kaminuza bacumbikamo.

Abantu bari mu ishuri barimo kwandika bagenda basinya, bigaragara y'uko bashoje kwiga none bakaba bagiye gutaha, mu mashuri makuru iyo umuntu amaze kwiga arasinya ko yaje.

Ingagi ni inyamaswa zifite agaciro by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda twese turabizi kuko ba mukerarugendo baza kuzisura maze bakatuzanira amadovize, ibyo bikadufasha kwiyubaka mu iterambere.

Ibikoresho birambitse ku meza, hakaba hari nikiganza cy'umwarimu, uwo mwarimu nawe we akaba afite ikayi irambuye, arimo kugenda asomera abanyeshuri ibyo kwiga, ku meza kandi hateretse na mudasobwa.

Umuntu bigaragara ko afite indangururamajwi, akaba ari umunyeshuri ushoje amashuri ye, mu bumenyingiro ndetse n'imyuga, akaba arimo gutanga ubuhamya bw'ibyamubayeho ubwo yigaga.

Ikibumbano cy'umuntu bigaragara ko cyakozwe n'abanyeshuri biga ibigendanye n'imyuga ndetse n'ubumenyinyigiro, iki kibumbano kikaba gishobora gusurwa na ba mukerarugendo, bagatanga amafaranga yo kwiteza imbere.

Inyubako nziza ikaba ari inyubako iri imbere y'igiti kinini ndetse hejuru hanyuraho insinga z'amashanyarazi, hari ubusitani bwiza ndetse burimo umukindo utarakura.

Intebe ya taburete. Ni intebe iri mu mabara y'ikigina, ikaba ari ndende ndetse ikaba iteye mu ishuri, iryo shuri rikaba ririmo amakaro atambitse ndetse hakaba harimo n'intebe y'ubururu.

Inyubako nyinshi zo muri Kaminuza cyangwa mu bitaro n'ahandi hantu hakomeye, ziba zifite imiryango, iyo miryango iba yanditseho nimero igaragaza igikorerwa muri buri muryango.

Ikimera kiriho ibibabi, ibyo bibabi bikaba ari ibibabi bifite uturongo tw'umweru tugiye dutambitse n'utundi twigoronzoye, tukaba ari utwashushanyijwe n'abanyeshuri biga mu mashuri y'ubumenyingiro.

Amagambo yanditse mu rurimi rw'icyongereza, ayo magambo yose akaba agaragaza umunsi cyangwa se icyumweru cyahariwe amasengesho, hakaba hashushanyijeho abavugabutumwa bagiye batandukanye n'amakorali azaririmba.

Abantu biga mu mashuri y'ubumenyingiro ndetse n'imyuga, hari ibikoresho byinshi bakoresha mu gihe barimo gukora imirimo yabo y'imenyerezamwuga, harimo nka ga zikomeye, zituma batandura cyangwa ngo bangirike.

Ibibumbano bibumbye mu buryo bugiye butandukanye, byose bikaba bigaragaza umuco nyarwanda bitewe n'uko harimo ibikoresho nk'amasekuru, amajage, ibyayansi, ibibindi ndetse n'inkono.

Jaride nziza cyane irimo indabo, iyo jaride ikaba iri kugenda inyura iruhande rw'akayira kamapave ndetse uko bigaragara haragaragara ibiti birebire bizana umuyaga n'amahumbezi, ku nyubako zihari z'abanyeshuri.

Ibibumbano bikorwa n'abanyeshuri biga imyuga n'ubumenyingiro bishobora kugira uruhare mu iterambere ry'Igihugu cyacu kuko nk'iyo bakoze ibibumbano bishingiye ku mateka n'umuco, bituma abantu bashobora kuza bakabigura cyangwa bakabisura.

Abantu benshi bakunze kuvuga ko kwiga imyuga bitagukiza kuko baba bishakira gukora mu biro cyangwa akandi kazi kose ka Leta keza nyamara umuntu ukora ibibumbano bishyirwamo indabo yiga mu mashuri y'ubumenyingiro kandi ibyo bimuha amafaranga menshi.

Amashuri y'ubumenyingiro n'imyuga mu Rwanda yatejwe imbere, ku buryo hashyizweho za kaminuza ndetse n'abarimu bafitiye ubushake n'ubushobozi kugira ngo bage bigisha abanyeshuri.

Inyubako nziza cyane yanditseho amagambo y'impine agaragaza ko hari Kaminuza y'u Rwanda, gusa iyo Kaminuza ikaba yigisha ibigendanye n'ubumenyingiro ndetse n'imyuga.

Ikibumbano, ikibumbano kimeze nk'intebe cyangwa se kikaba kimeze nk'agasongabugari, hari kugaragara ibindi bibumbano bikoze ibirenge by'abantu.

Abanyeshuri barimo kwiga mu ishuri. Bakaba ari abanyeshuri biga mu mashuri makuru, aho buri wese ari kwandika, imbere ye hari ameza yandikiraho ndetse afite n'ikaramu.

Umuntu w'umugabo ufite gitari akaba ayicuranga, akaba yiga mu mashuri yisumbuye ndetse y'ubumenyingiro n'imyuga, bikaba ari ibintu bizamufasha kwihangira umurimo.

Ibikoresho birambitse ku meza, ndetse ayo meza nayo akaba yegeranye n'intebe, iyo ntebe ikaba ari nziza cyane ifite aho kwicara ndetse naho kwegama.

Leta y'u Rwanda yateje imbere cyane ndetse inashyigikira amashuri y'ubumenyingiro ndetse n'imyuga, kubera yuko uwize imyuga iyo ashoje kwiga ahanga umurimo ndetse agaha n'abandi akazi.

Icyumba cy'inyubako y'amashuri, giteretsemo imeza imwe n'intebe imwe, hasi hasashemo amakaro meza, ku gikuta hasize irangi ry'ubururu bwerurutse.

Ubumenyingiro ni bwiza, imyuga ni agahebuzo, u Rwanda rwateje imbere aya mashuri kugira ngo rushishikarize urubyiruko kwihangira imirimo.

Ubumenyi ngiro ni ikintu cyiza cyane niyo mpamvu uzasanga umuntu wize mu mashuri nkayangaya agira uruhare mu iterambere ry'igihugu kuko aya ageze hanze ashyira mu bikorwa ibyo yize.

Abantu biga ubumenyingiro ndetse n'imyuga ni abahanga cyane bashushanya umuntu neza neza ukagira ngo ni we bityo bigafasha ba mukerarugendo kuza kwisurira ibyo bibumbano.

Abanyeshuri bari kwinjira n'abandi barimo gusohoka mu ishuri, bakaba ari abanyeshuri biga muri Kaminuza nkuru y'Igihugu, ishinzwe gutanga ubumenyi mu bigendanye n'imyuga ndetse n'ubumenyin ngiro.

Ibibumbano bigaragaza umuco Nyarwanda kuko bikorwa n'abanyeshuri biga iby'ubumenyingiro ndetse n'imyuga, ibyo bibumbano bikaba bikunze kugurwa n'abazungu bakabijyana i Burayi kugira ngo bereke bagenzi babo.

Amashuri y'ubumenyin ngiro mu Rwanda yatejwe imbere ku buryo buri muntu wese asigaye yifuza kuyigamo kuko unyeshuri uhavuye, aba afite ubushobozi bwo kwiga ndetse agashyira mu bikorwa ibyo yakuye ku ishuri.

Icyumba kijya mu nyubako y'ishuri kikaba ari icyumba cyanditseho nimero ziranga uwo muryango, hakaba hari nk'ikirahure cyiza kibonerana ndetse hakaba hari na selire ihakinze.

Abantu biga mu mashuri y'ubumenyingiro by'umwihariko muri Kaminuza, bagira uruhare mu kugaragaza umuco nyarwanda, aho babumba udusekuru n'imihini yatwo bakabumba ibibindi, inkono ndetse n'inzabya.

Inyubako nziza bigaragara ko ari inyubako y'ishuri ikaba ifite imbuga ishashemo amapave, uko bigaragara ni inyubako isize irangi ry'umweru, ifite ibirahure byiza n'amadirishya.

Ahantu heza cyane ndetse ubona y'uko hashushanyije neza, harimo utuyira ndetse n'ibihuru n'imisozi n'ikirere n'amazi, akaba ari ubugeni bwakozwe n'abanyeshuri biga imyuga n'ubumenyingiro.

Umuntu bigaragara yuko ari Kagame. Ari mu ishuri yaje kureba uko abana biga by'umwihariko abiga ibigendanye n'ubumenyingiro mu Rwanda. Kagame ni umwe mu bayobozi muri Afurika ndetse no ku isi yose bashyigikira uburezi cyane.

Kaminuza nkuru y'Igihugu y'ubumenyingiro ndetse n'imyuga, ni kaminuza yazanye ibisubizo byinshi cyane kubera yuko mu minsi yashize abanyeshuri babaga bafite impano zirimo gushushanya ndetse no gukora ibintu bitandukanye by'ubugeni baburaga aho babikorera.

Umuryango mwiza uriho na nimero iwuranga, hakaba ari mu kigo cy'amashuri ndetse hakaba ari mu ishuri rikuru ry'ubumenyingiro mu Rwanda.

Igikoresho kirambitse hasi, kimeze nk'urubaho ndetse kikaba cyifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri y'ubumenyigiro ndetse n'imyuga.

Ibibumbano bigaragara yuko ari ibiyumbano byiza cyane, bikoze muri sima, bikaba byarakozwe n'abanyeshuri biga mu mashuri y'ubumenyingiro ndetse bakaba biga muri kaminuza y'u Rwanda.

Umunyeshuri wambaye ijipo y'umukara ifite satuzi inyuma akaba arimo kwigendera mu gahanda ka mapave, bigaragara ko ari iruhande rw'imbuga nini, nayo ishashemo amapave.

Abanyeshuri benshi cyane ubona ko bishimye bafite n'akamwenyu, ni abanyeshuri bashoje kwiga amashuri y'ubumenyingiro ndetse ku cyiciro cya kaminuza.

Inyubako nziza cyane ubona ko ari iya Kaminuza y'Igihugu y'ubumenyingiro ndetse n'imyuga, ikaba ari inyubako yubatswe mu buryo bugezweho isize amarange meza cyane.

Intebe ziri mu mabara y'ubururu. Zikaba ari intebe nziza ziri mu ishuri iryo shuri rikaba ariryo muri kaminuza nkuru y'igihugu yigisha ibijyanye n'ubumenyingiro ndetse n'imyuga.

Mwarimu ari imbere y'abanyeshuri, arimo kugenda abigisha ndetse barakurikiye, barimo kwandika ibyo barimo kumva, bambaye udupfukamunwa, intebe z'inyuma nta muntu uzicayeho.

Iyo abanyeshuri bashoje amashuri yabo ya kaminuza bagira umunsi wabahariwe wo kwizihiza ibyo birori by'uko bashoje neza kandi bagiye gutanga umusaruro ku isoko ry'umurimo.

Amashuri y'ubumenyinngiro mu Rwanda yatejwe imbere, hashyizweho za kaminuza zifasha abanyeshuri kugira ngo babashe kugira ubumenyi buhagije bityo bizabafashe ku isoko ry'umurimo.

Inyubako nziza cyane ni inyubako ubona yuko isize amarangi atandukanye ndetse ikaba ifite ibikuta byometseho n'amakaro, iyi nyubako ikaba ari iy'ikigo cy'amashuri y'ubumenyingiro ndetse n'imyuga.

Abantu batanu barimo abagabo bane n'umukobwa, umwe bafite ikibanderore kinini cyose kikaba kiriho amagambo y'icyongereza ariko agaragaza gutanga amaraso.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'ubumenyi ngiro bakaba barimo gukoresha mudasobwa zabo bahawe na Leta, barimo kugenda biga ibintu bitandukanye bizabafasha hanze mu buzima rusange.

Inyubako nziza y'ikigo cy'amashuri, ni inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, isize amarangi atandukanye. Iyi nyubako ikaba ikorerwamo na kaminuza nkuru y'ibigendanye n'ubumenyingiro ndetse n'imyuga

Ibintu bigiye bitandukanye biri mu mabara atandukanye byashushanyijwe n'abantu biga ibigendanye n'imyuga n'ubumenyingiro, aho biri ku gikuta hometse n'akandi kamashini kifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro.

Umuntu uri kuva ku ishuri, afite igikapu kibikwamo imashini akaba ari kumanuka muri esikariye zubatswe n'amakaro zifite n'ibyuma ku ruhande bitangira umuntu kugira ngo adatemba.

Inyubako nziza cyane ifite ibara ry'umweru ndetse n'inzugi zisize ibirahure ndetse byiza cyane, hakaba ho imbere hashashe amapave hari kunyuramo umuntu w'umugore wambaye ipantaro.

Inyubako nziza cyane ikaba ari inyubako ifite umuryango usize irangi ry'ikigena, iryo rangi rikaba ari irangi ryiza cyane ndetse kuri uwo muryango handitseho amagambo agaragaza ibihakorerwa.

Ikibumbano kimeze nk'ikibindi, iruhande hari ikindi kimeze nk'ivaze byose bikaba byarakozwe n'abanyeshuri biga mu mashuri y'ubumenyingiro bakaba bazabigurisha bagakuramo amafaranga.

Ibibumbano biteretse ahantu, ubona ko ari mu nyubako, bikaba ari ibibumbano bikozwe muri sima, bikaba byifashishwa bateramo indabo zikora umutako. Ibyo byose bikaba ari ibintu bishimisha cyane.

Ikibumbano ubona ko ari cyiza kikaba gifite ibara ry'ivu, gikozwe muri sima ndetse iki kibumbano kikaba cyarabumbwe n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'ubumenyi ngiro.

Ibibumbano biba biri mu mashusho agiye atandukanye, bikaba biba bikoranywe ubuhanga buhanitse ndetse abanyeshuri baba barabikoze, baba bishimira yuko nibasoza amasomo yabo bazabikomeza bikabateza imbere.

Inyubako nziza cyane y'ishuri, ikaba ari inyubako ifite amarangi y'umweru, iyo nyubako ikaba yubatswe mu buryo bugezweho ndetse imbere yayo hakaba hari ubusitani bwiza busa neza.

Abantu ubona yuko ari abanyeshuri biga mu mashuri y'ubumenyingiro ndetse n'imyuga, buri wese imbere ye hari mudasobwa, arakurikiye arimo kureba ibyo mwarimu yashyize imbere kugira ngo bimufashe.

Umuntu bigaragara yuko ari umunyeshuri arimo gusuhuzanya na bagenzi be, mu gihe we yari yakerewe ariko akaba ahageze, bagenzi be batangiye kwiyigira bari gusubiramo amasomo, naho we arikwangara mu nzira, agenda asetaseta ibirenge.

Inyubako nziza cyane, ikaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri, ikaba ari Kaminuza y'ubumenyigiro, iyi nyubako ni inyubako iri mu mabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umweru.

Ikibumbano kimeze nk'urujyo, ndetse kikaba kibumbye muri sima giteretse ahantu ku kibaho cy'umukara ndetse bigaragara ko hari ikibaho cyifashishwa mu bwubatsi, abanyeshuri bagikoze biga muri kaminuza y'ubumenyingiro.

Inyubako nziza cyane iririmo intebe zifite ibara ry'ubururu, hakaba harimo n'indi ntebe y'igiti ifite utwuma tuyifashe, iyo ntebe ikaba yicarwaho n'abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro.

Mu Rwanda haba inyamaswa nyinshi ndetse hakaba n'ibiti by'ubwoko bugiye butandukanye kuko habarizwa urusobe rw'ibinyabuzima hirya no hino. Abantu biga ubumenyingiro ndetse n'imyuga bagenda bashushanya ibyo byose bakabyereka amahanga.